Abantu bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cyanditseho ngo gira ubuzima. Bari kwifotoza harimo Abirabura ndetse n'Abazungu, abagore n'abagabo. Bigaragarako bavuye mu nama.

Abantu benshi bahagaze, bari kwifotoza, bambaye amajiri y'icyatsi. Inyubako bari kwifotorezaho ifite ibikuta biteye amarange y'umweru. Bameze nk'aho bari bari mu nama, bakaba bayishoje.

Umwana muto wambaye amashati y'icyatsi, afite agakabutura yazinze, akaba ari ku mugezi wa robine, hirya ye ari ikidobo, akaba ari gukaraba intoki. Ni byiza gutoza umwana kugira isuku akiri muto, akazajya akaba intoki igihe cyose agiye kurya.

Abantu benshi cyane bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icunga ndetse harimo n'ushinzwe umutekano w'umupolisi, bari kubaka akarima k'igikoni, aho bari guteramo imboga zizajya ziraribwa hirindwa bwaki.

Umugabo uri mu nama wambaye ikositimu n'amarinete, imbere ye hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bari kwigaho, hari intebe eshatu iruhande rwe zirambikeho amazi, ariko nta muntu uzirimo.

Aho bavomerara amazi mu buryo bwazange, turi kuhabona umwana wagiye kuvoma amazi wambaye ipantaro y'umutuku n'agapira k'umweru. Afite amavido atatu yagiye kuvomeramo, imwe iri hejuru, andi abiri ari hasi.

Abantu batandukanye bicaye ahantu mu cyumba bigaragara ko kiri kuberamo inama, bari kwiga ku mitangire ya serivisi z'ibijyanye n'ubuvuzi, bafite impapuro ndetse barakurikiye, bateze amatwi uri kubagezaho iyo nama.

Abagore babiri bicaye ku meza, buri wese yambaye impeta, umwe ateze igitambaro cy'umuhondo undi ntabwo agiteze, inyuma yabo hari amadarapo ya Unicef ndetse n'ibintu bimeze nk'ibibati by'ubururu.

Abantu bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'umweru n'amabaji, biragaragara ko ari abaganga, inyuma yabo hari icyapa cyanditsweho ngo Nyabageni, akaba ari ikiri kwerekana insanganyamatsiko bari kwigaho.

Abantu bateraniye ahantu hamwe batandukanye b'uruvunge bari muri shitingi y'umweru, imbere yabo hari ibiro by'umurenge bifite idarapo ry'u Rwanda imbere yabyo.

Umwana uri kunywa amazi ku bwogero cyangwa umugezi, yambaye agakabutura k'umutuku, ndetse n'agashati ka gisirikare. Ari kunywa amazi mu buryo bw'ikinyabupfura.

Ubuvomero rusange aho hari abantu bagiye kuvoma, umugabo ndetse n'umugore, hakaba hari umuntu uri kubavomesha wambaye akajiri k'umuhondo, hakurya yabo hari ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Abantu bicaye bari mu nama mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ifite ibikuta bisa umweru. Hagati yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru ari kubakoresha inama.

Amavomero rusange amwe bavoma babanje gupompa, hari abana babiri, umwe ari gupompa, undi ari kuvoma arishimye ari guseka ndetse ni umukobwa, hirya ibyaci bigiye bitandukanye.

Abagabo bagera muri batatu bambaye amakositimu n'undi umwe w'umuzungu n'umwirabura bo batambaye amakositimu, bari kuganira, inyuma yabo hari ikirangantego kigaragaza ko hari habaye inama mpuzamahanga.

Umwana uri gukaraba kuri robine. Ari gukarabira mu ibase y'umukara. Yambaye imyenda y'ibitenge y'umutuku. Uyu mwana arasutse mu mutwe. Yatojwe isuku hakiri kare.

Abantu benshi cyane: abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore bateraniye hamwe, bari gufata ifoto imbere y'icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari bari kwigaho, ivuga ngo: "Twite ku buzima bw'umubyeyi utwite".

Abana babiri bari kuvoma amazi mu iriba aho ba kudubikamo imidomoro, hirya yabo hari nyamara aya mazi si meza kuko uramutse uyanyweye yakwanduza ukarwara indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu bicaye ari batatu, hari umugore bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima, ari guha raporo umuganga umwe, undi yicaye hirya ari kureba ko biri gukorwa neza.

Iyi ni inyubako nziza cyane irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, aho biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, hari gutambukamo umugabo wambaye igisaruberi cy'ubururu n'ingofero y'umweru.

Abantu bateraniye ahantu hamwe hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, aha ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho bakenewe guhabwa serivise zigiye zitandukanye.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, aho bari kwifotoza. Harimo abaganga babiri bari imbere ya sale iberamo inama, impande ya bo ahri icyapa cyandikeho insanganyamatsiko inama yavugagaho.

Abantu batatu bicaye ku meza, harimo umugore umwe bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima, akaba yazaniye raporo abaganga, hari umwe uri kwandika ibyo bamubwiye n'undi uri hirya uri kureba ko biri gukorwa neza.

Ni ku ivomero rusange, aho hari abana benshi cyane baje kuvoma, hariho umwana umwe uri gupomba kugira ngo amazi aze n'undi uteze akajerekani, hari n'undi mwana uri imbere yabo ufite utujerekani tubiri dushaje, hakurya hari abandi bantu bahahagaze b'abana n'umusaza na bo baje gushaka amazi.

Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyita ku ubuvuzi, Dogiteri, Sabe Nsanzimana. Aho yambaye ikote ry'umukara ndetse n'agashati na karuvati. Ni umuyobozi mwiza cyane.

Abantu bavoma amazi mu buryo bwa rusange, hahandi babanza gupomba. Aho umwe avoma, undi ari gupomba. Hari abana hirya bitaruye, bari kureba uko bikorwa, ariko na bo baje gushaka amazi.

Abana bagiye kuvoma kuri wa mugezi wa bapomba, none hageze umugore uri mu modoka asanze nta n'umwe ufite imbaraga zo gupomba, none avuyemo ari kubapombera kugira ngo babone amazi, yigirira umutima mwiza.

Umugore wambaye igitenge cyo mu bwoko bw'iribaya wajyanye umwana kwa muganga, muganga nawe aramufashe ari kumuha imiti, ni byiza kujyana umwana kwa muganga mu gihe ubonye kimwe mu bimenyetso mpuruza kugira ngo abaganga bamwiteho akire hakiri kare.

Umugore ucigatitiye umwana ukiri muto w'uruhinja. Umugore akaba yambaye agapfukamu ari guha uwo mwana keya ndetse inyuma hari undi mugore uhagaze nawe ucigatiye umwana bigaragara ko baje kubavuza ku bitaro.

Abagore bagera muri batatu ndetse n'abagabo babiri, hejuru hakaba handitse icyapa kivuga ngo "ntugasige ubuzima inyuma kuko ubuzima ni ingenzi cyane kuri buri muntu".

Umugezi uri gutanga amazi agenda ashonga, hari abana bahateze amaboko bari gukaraba benshi batandukanye ndetse hari n'ibase ihateretse y'umutuku, inyuma yabo hari abandi bana bari kubashungera.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu muri sale y'inama, ariko iri kwa muganga, harimo abicaye ku dutebe tw'ubururu, barebye imbere bose barakurikiye kuko bari mu nama, hejuru ari gucana amatara asa umuhondo.

Umukobwa uri kunywa amazi ku gihombo cy'itiyo kiri kuzana utuzi duke cyane, bakaba batubwira ko ubu ni uburyo bwiza bwo kunywa amazi igihe udafite igikombe, hasi handitseho ngo UNICEF.

Umwana ndetse na nyina. Bahagaze ahantu hari ibyatsi. Bakaba bagiye gushaka ibyatsi bakwifashisha bivura, cyane cyane igihe umwana yarwaye inzoka.

Abana bambaye impunzu z'impuzankano za kaki, aho bari kuvoma amazi kuri robine zitwara amazi mu buryo bwa rusange, inyuma yabo hari imikindo ndetse bari kuvomera mu ndobo z'umuhondo.

Umugabo wambaye amadarubindi w'inzobe akaba ari kwamamaza uburyo batanga urukingo, rukakugeraho rwose ukirinda indwara zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba kiberamo inama cyo kwa muganga, aho harimo umugabo wambaye imyambaro y'ubururu n'umugore wicaye ari kwandika, ari kumuha serivise. Hari purafo z'umweru ndetse icyumba ni kigari cyane.

Abantu bahagaze bareba utwana dutoya twambaye impuzankano z'ubururu, tumeze nk'aho turi kuririmba, aho bahagaze hari tapi y'icyatsi, inyubako ikikijwe n'ibitambaro bisa umweru.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, imbere yabo hari abari kuyibakoresha b'abagabo n'umugore umwe, abagabo ni batanu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho abantu baraza kubakoresha iyo nama, akaba ari amafoto y'abo bagabo batanu n'umugore umwe.

Ahantu havomwa amazi mu buryo bwa rusange aho umuntu umwe avoma amazi hari undi ufite ipombo ari kujya arapomba kugira ngo amazi aze, ubu ni uburyo bwashyizweho na leta kugira ngo abantu babone amazi nta kiguzi.

Ikirango kiri mu mabara y'ubururu n'umweru cya UNICEF ikigo cyita ku buzima bw'abana ku isi, hashushanyijeho umugore n'umwana bari kurebana, bashushanyije mu kantu k'uruziga kagaragaza umubumbe w'isi.

Umwana uri ku ivomero sange aho yagiye gushaka amazi akaba yagiye kuvomera mu ndobo zisa umweru hari indobo eshatu hirya hari ibiti birebire byifashishwa mu gutanga akayaga ndetse n'amahumbezi hari n'ibindi biti bimwegereye bisa n'ibyumye ntamababi bifite n'amatabe.

Umwana wazanywe na nyina kumukingiza, nyina afite agasakoshi ndetse ahetse undi mwana, muganga uri kumukingira, ni mwiza cyane asa inzobe, yambaye akabaji ndetse n'itaburiya y'umweru.

Abana benshi bari ahantu hari itiyo itwara amazi, bafunguye robine, umwe ari kunywa yambaye ishati y'umweru ndetse n'utundi twana twambaye amashati y'icyatsi turi kumureba.

Igihombo cya kano gisohora amazi menshi cyane, hari umuntu uteze amaboko wambaye ishati isa ubururu y'amaboko ari gutega ayo mazi, bigaragara ko ashobora kuba agiye kuyanywa. Amazi ni ingirakamaro cyane mu buzima.

Abantu bagiye gushaka amazi ku mugezi wa rubine wa wundi bavoma ari uko babanje gupompa, hari abamama ndetse n'abana baje gushaka aya mazi mu buryo bwa rusange.

Abantu bateraniye hamwe, bambaye amataburiya ndetse na baji, imbere yabo hari umuzungu bari kumucuririra, inyuma hari inyubako yanditseho ngo ''Ikigo nderabuzima cya Mayange.''

Aha ni ku ivomero rusange ritanga amazi, ariko hari umuntu ufite icyuma ari kuzunguza, hari umugore uhahagaze ufite umwana ndetse akaba yiteze igitambaro, hari ibikoresho baje kuvomeramo nk'amabase, indobo ndetse n'amavido.

Abantu bari kwifotoza, hejuru yabo handitseho ngo ''uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu'' ni abantu benshi basoje inama.

Abana babiri, umwe yambaye agakabutura k'umuhondo n'agasengeri k'umukara afite isabune ari imbere y'akadobo gasa ubururu arunamye akunamye hejuru, undi afite ibinika isa ubururu, bari imbere ya dushe irimo umudamu uri koga kuko igitenge cye kirambitse ku rugi.

Abagore batatu bagiye kuvoma, umwe yateretse indobo mu kibindi, abandi babiri bari kuzunguza rwa rwuma kugira ngo amazi abashe kuza, buriya na we arajya kubazunguriza abishyuye mu kanya.

Abantu bicaye ahantu mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Aho bategererereje muganga. Iyo nyubako ifite ibikuta biteye amarange asa umuhondo.

Ikigo cyita ku buzima ku isi aho hari umubumbe w'isi ushushanyijwe mu mabara y'umweru n'uturonko tw'umukara hakaba hakikijwe uturonko dutatu dutatu turi mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Abantu benshi bicaye ku meza y'uruziga bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, inyubako barimo ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hakurya hari ikintu cya mande enye kiri gusa ubururu.

Umwana usutamye, yambaye akaribaya ari guseka, ateze ateze intoki ku gihombo bigaragara ko ari gukaraba intoki cyangwa akaba agiye kunywa amazi hirya hari amajerekani abiri, imwe isa ubururu, indi isa umuhondo, asa umuhondo.

Umugore uryamye yarembye, wambaye agapfukamunwa, yoroshe igitenge, ari kwitabwaho n'abaganga bagenzi be kugira ngo bumve uko amerewe, uko bigaragara ameze nk'utwite, bari mu nzu ifite ibikuta by'umweru n'ubururu.

Umubyeyi uri gutera umwana urushinge akaba ari umuganga, umwana yazanywe na nyina kugira ngo bamuvure kubera ko yari arwaye, Hirya hari abandi baganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'kaameza kariho udukarito dusa umuhondo.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, ndetse imbere yabo hicaye abantu bagera muri batandatu harimo abagore n'umugabo bari kubakoresha iyo nama, inyuma yaho hari ikipa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho insanganyamatsiko bari kwigaho muri icyo kiganiro.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima, harimo abantu bicaye bafite ibipande bategereje ko muganga aza akabitaho.

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu nama, hakaba hari umukobwa ukiri muto ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga. Inyuma yabo hari amarido asa ubururu, ameza bafite ariho igitambaro gisa umukara, ndetse ku meza yabo hateretse amazi yo kunywa.

Ivomero rusange, aho bavoma babanje gupompa, hari umuntu wambaye iby'ubururu akaba ari kuvoma, hateretse n'ibindi bivomesho byinshi ndetse n'abandi bantu benshi bahatonze baje gushaka amazi yo kunywa n'ayo gukoresha.

Abana bambaye impuzu mpuzamano bari kuvoma amazi kuri robine z'inyabubiri bambaye imyenda ya kaki ndetse barakuvomera mu ndobo zisa umweru.

Umugabo uhagaze imbere ku ruvugiro, yambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi na karuvati y'umutuku, ari kugeza imbwirwaruhame ku bantu bayikurikiye, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ingingo ari kwigishaho.

Abantu benshi bicaye bakikije ameza, hariho ibitambaro by'icyatsi n'umweru, bakaba bambaye amakositimu n'udupira, bari kuganira ku mitangirwe ya serivisi uko ihagaze muri iyi minsi ku isi hose.

Umudamu wambaye iribaya, wajyanye umwana kwa muganga, none muganga akaba ari kumwitaho akoresheje agacupa k'umweru gato. Ni byiza kujyana umwana kwa muganga hakiri kare, mu gihe aba akizana ibimenyetso mpuruza.

Leta yashyizeho uburyo bwo kwimakaza isuku, aho bashyizeho kandagira ukarabe umuntu akandagiraho agakaraba adakoze ku mazi, ibi bidufasha kurinda indwara nyinshi ziterwa n'umwanda.

Abantu bateraniye mu nama hamwe, aho bicaye ku ntebe nziza z'imifariso z'imikara, buri wese imbere ye hateretse amazi yo kunywa, bari kuganira ku ngingo runaka bigaragara ko barebye uriya mugabo w'imbere uri kubakoresha.

Umugore uri kuvoma amazi hirya hari abandi babiri bafite ikintu kimeze nk'ipombo bari gupomba kugira ngo amazi aze, ubu ni uburyo bwashyizweho kugira ngo hegerezwe abaturage amazi.

Ku ivomero rusange aho bacuruza amazi ku giceri cya makumyabiri, umukobwa uri kuvomesha yegamiye ku gikuta giteye irangi ry'ubururu n'umweru, abaje kuvoma ni abagore ndetse n'umwana bigaragara ko bategereje ko amazi abageraho.

Umwana uri kuvoma amazi kuri robine ari kuvomera mu ndobo hejuru yateretseho intoki ari kunywa amazi, yambaye agashati ka gisirikari n'agakabutura k'umutuku n'inkweto za bodaboda, hirya ye hari ibiti binini ndetse n'inzu ifite inkingi z'umweru n'ubururu.

Abantu batatu bagiye kuvoma, hari abagore babiri bafite igipombo bari gupomba ndetse umwe ari kuvoma, akaba yaretetse indobo y'icyatsi mu kabindi gateretse munsi y'iyo robine. Ubu ni uburyo bwo kwegereza abaturage amazi.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi cyane batandukanye bicaye barebye imbere, aho imbere hari abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bari kubakoresha inama, inyuma y'abo bantu bari kubakoresha inama hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho kuri uwo munsi.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nama, imbere hakaba hicaye abantu batandatu bigaragaza ko bari kubakoresha inama, inyuma hakaba hari icyapa cy'ubururu cyanditseho insanganyamatsiko bari kuvugaho, hirya yacyo hari umugabo nawe uri kugaragara mu ifoto, wambaye ikositimu na karuvati y'umutuku ari kuvuga ijambo.

Umugore uvuye kuvoma aho afite indobo ebyiri imwe arayikoreye indi ayitwaye mu ntoki yikoreye iyu mutuku mu ntoki afitemo indobo y'umuhondo.

Abana benshi cyane, bambaye impuzankano z'umweru, hari abantu babasuye, harimo n'ushinzwe umutekano, bari kugenda babasomesha ku cyo kunywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi batandukanye, harimo abambaye impuzankano z'amataburiya y'umweru, abenshi baricaye abandi barahagaze bari kwifotoza, bavuye mu nama, inyuma yabo hari icyapa kiriho insanganyamatsiko.

Umukobwa ufite uburwayi bwo mu mutwe, aho yakunje isura yarakaye cyane ku buryo umubonye wahita ukizwa n'amaguru, naho udakijijwe n'amaguru yakumena ruseke ateze igitambaro.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe uri guseka, afite imisatsi myiza cyane, ariko bikaba bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, kuko iyi nseko ntabwo isanzwe.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'umutuku ndetse ikaba ifite n'urugo rw'umweru n'ibikuta biteye irange rijya gusa umweru, akaba ari inyubako zitangirwamo ubuvuzi bwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Imodoka nini cyane imenyerewe nko gutwara urubyiniriro aho iri mu mabara y'umweru, yanditseho amagambo y'ubururu avuga ko bagiye gutaha ikigo cyita ku bijyanye n'ubuvuzi.

Ifoto y'umugabo w'umuganga wanditse ku cyapa kiri kwamamaza gisa ubururu cyandikishijeho amagambo y'umuhondo, bari kutubwira ngo murakaza neza cyane muri Kigali Medical Center, bigaragaza ko ari umunsi mukuru uzahabera bakaba bari gutumira abantu,

Umugore mwiza cyane wambaye agakositimu akaba ari imbere y'ahantu hari icyapa cy'umutuku cyanditseho ngo ubwisungane ku buzima, uyu mugore ari guseka bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza ko yazajya aganirizwa.

Ikigo cyita ku bijyanye n'ubuzima bwiza kw’isi hakaba hari umugabo n'umugore bafashe kukantu k'akapa kariho imitwe ine y'abantu iri mu mabara agiye atandukanye hino hakaba hari amagambo avuga ngo world mental health bibiri na makumyabiri n’agatatu.

Abantu batatu bicaye hamwe, bose bambaye udupfukamanwa, harimo umukobwa ufite imisatsi ya menshi, bose bafite impapuro imbere yabo, hirya yabo hari utuzu twa nyakatsi.

Abantu benshi harimo abicaye ndetse n'abahagaze inyuma, bambaye impuzankano zisa umukara. Bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse bahagaze inyuma yabo hari icyapa ndetse n'inyubako. Bari kwifotoza bigaragaza ko bamaze gukora inama.

Abantu bicaye ahantu hamwe ndetse bakaba bari kwifotoza, harimo n'abahagaze. Biragaragara ko bari bari mu nama, iri kwiga uburyo twakwagura ubuzima bukarushaho kumera neza.

Umukobwa urandaswe n'abantu babiri, harimo umugabo ufite agakoni n'umukecuru ufite igikomo mu ijosi, bafashe umuntu w'umukobwa bigaragaza ko asa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yahungabanye.

Amagambo ari mu ibara ry'umukara yanditse ku cyapa gisa cy'umweru handitseho ngo emu habu, hashushanyijeho utuntu tw'uruziga tugiye dutandukanye berekana ko hatangirwa serivisi z'ubujyanama ku bantu bafite ibibazo.

Umugore wicaye azirikiye ku giti birababaje cyane kuko afite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo byagakwiriye ko umuntu wese urwaye mu mutwe bamuzirikira ku giti ahubwo baba bakwiye kumujyana mu kigo cyita uwarwayi.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu, kiriho utuziga turimo abantu bagiye batandukanye, harimo umwana wicaye, ababyeyi n'abana babiri, umuganga uri kuvura umwana, umubyeyi utwite ndetse n'umuntu uri kuvuga cyangwa uri gukorora.

Umugabo wicaye yambaye ingofero y'uruziga yambaye agashati ndetse n'agakote k'agakoboyi n'isaha. Ari kureba nk'uwumiwe bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza kuganiriza abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bicaye bari mu nama, imbere yabo hari ameza abaje mu mbaho, barebye imbere aho hari umugabo uhagaze wambaye ikositimu, ndetse n'undi uri imbere wicaye wambaye ishati bigaragara ko ari we ukuriye icyo kiganiro ku mpande zabo hari utwapa dutandukanye.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yateretse imisatsi myinshi cyane n'ubwanwa buragenda burizingazinga. Bigaragara ko atuzuye, akeneye umuntu umuba hafi akamuganiriza.

Umukecuru wambaye ibitenge uri guseka, akaba ari gushigisha igikoma ku mashyiga gakondo, imbere ye hari inyubako ifite inzugi z'icyatsi yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko uyu mugore ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Aho waba uri hose ndetse n'uwo waba uri we wese, ibingibi ni ingirakamaro kuri wowe. Hari umugore uri guseka yishimye cyane ari kugaragara afite n'imisatsi ya menshi.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, akaba yagiye kwa muganga muganga ari kumuganiriza kugira ngo arebe ko uwo muntu yamera neza, ni byiza ko twajya tuganiriza abantu bafite indwara zo mu mutwe ntitubatererane.

Abantu babiri bari kugaragara, harimo umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'umugore wambaye agapira k'icyatsi, ateze n'igitambaro, bari ku meza ariho igitambaro cy'umweru. Umugore yicaye ku ntebe y'ubururu. Inyuma yabo, hari igikuta cyanduye.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, aho yicaye ahantu bamwambitse amapingu kugirango adateza akaduruvayo muri bagenzi be, yambaye agapira k'umweru ndetse n'umutuku.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye ishati y'ubururu, afite n'ibisatsi by'abasitari, amenyo ye yarakutse, umurebye uhita ubona ko hari ikintu abura. Inyuma ye hari abandi bantu batandukanye.

Abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, Leta yigiriye inama yo kuzajya ibambika imihama, kuko utayibambitse bagenda bari kurwana mu muhanda, bakangiriza bagenzi babo.

Umukobwa mwiza cyane wambaye amadarubindi akaba yambaye n'itaburiya y'umweru afite n'uducupa tw'amazi imbere ye, inyuma ye hari abandi bantu benshi bicaye bamureba, bigaragara ko bari mu nama.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye imyenda mibi cyane ndetse isa nabi, aho ari gukora udusiporo, kugira ngo abashe kugororoka neza.

Abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe tuba tugomba kubaba hafi tukabaganiriza ntidutume bicwa n'agahinda. Nk'uyu turi kubona ari kurira yahogoye yashavuye kubera kwicwa n'agahinda.

Abantu benshi bicaye bari mu nama imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'akajiri k'umukara, yambaye amadarubindi ndetse ari kubabwira imbwirwaruhame nabo barakurikiye.

Abafite uburwayi bwo mu mutwe bakwiye kwitabwaho, uyu ni umusore wicaye ahantu wigunze ariko bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza ko waza ukamwegera ukamuganiriza maze na we akishima.

Abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo n'umugabo ushinzwe umutekano, bahagaze ahantu bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku cyanditseho ngo "ikigo nderabuzima cya Kacyiru".

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku yanditseho amagambo yo kubungabunga abana bakiri munsi y'imyaka cumi n'itandatu b'abangavu n'ingimbi cyashyizweho na minisiteri y'ubuzima.

Umusore mwiza cyane ufite urudodo mu ntoki, ari kwereka abantu uburyo bwiza wakoresha, uvana inyanda yasigaye mu menyo yawe, bwo gukoresha urudodo ni ingenzi cyane.

Umuntu warwaye amenyo none yagiye kwa muganga akaba ari gukurikiranwa n'inzobere mu buvuzi, aho harimo umuganga wambaye itaburiya y'umukara n'amadarubindi n'agapfukamunwa k'umukara n'undi mugenzi we bari kumwitaho.

Umugabo uri gukorera amenyo ye isuku akoresheje urudodo, aho agenda akoza urudodo buri hagati y'amenyo kugira ngo amaremo imyanda yose iba yafashwemo. Ni byiza gusukura amenyo ukoresheje urudodo.

Umugabo w'inzobe ufite urudodo mu menenyo arimo araseka ari kurukoresha asukura amenyo ye , ni byiza gusukura amenyo yawe ukoresheje urudodo kuko bituma nta myanda na mike isigara mu menyo yawe.

Umukobwa wasamye, afite urudodo akoresha asukura amenyo ye. Ni byiza gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo kuko bituma tumaramo imyanda yose nta na mike isigaye.

Abantu bagiye batandukanye, bakikije ahantu hari shitingi iri mu mabara y'umweru n'ubururu, yanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bw'indwara zo mu kanwa.

Umwana mwiza cyane ufite umubiri uri kunyerera aho bari kumukura iryinyo yagiye kwa muganga, ni byiza kujya kwa muganga kwikuza amenyo mu gihe dufite uburwayi bugiye butandukanye.

Buri gihe iyo tugiye kwa muganga batugira inama yo kujya dusukura amenyo yacu byimazeyo, hari igihe batubwiye gukoresha urudodo kugira ngo dusukure amenyo yacu abe meza cyane, ibi ni ingirakamaro.

Abantu bateraniye hamwe harimo umumama uhagaze, bose bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'icyatsi n'umweru. Imbere yabo kumeza hariho igitambaro cy'umweru. Bose bari kureba uyu mumama uhagaze.

Umudamu warwaye yagiye kwa muganga ari kwitabwaho n'abaganga babiri, bambaye udupfukantoki ndetse n'udupfukamunwa n'amadarubindi, umwe yambaye itaburiya y'icyatsi undi ni umweru.

Umugabo n'umwana mutoya bafite indodo abarikogesha amenyo, ubu ni uburyo bwiza bwo kugirira isuku amenyo yawe aho ukoresha urudodo hanyuma ukayigi isuku amenyo yawe akazarya ahora asa neza asukuye, bambaye imipira y'umweru.

Umugabo w'umuganga yagiye mu ishuri ari kwigisha abana ibice biba bigize amenyo, aho afite igishushanyo cy'urwasaya ari kwerekera umwana uko amenyo aba ameze, inyuma hari abandi bantu batandukanye n'ikibaho.

Umusore uri guseka, ufite ubwanwa n'agasatsi gake, yambaye agakote k'agakoboyi. Ari kugaragaza uburyo amenyo ye asa neza. Kubera ayitaho, akayagirira isuku. Ni byiza kugirira isuku amenyo yawe, kuko biyarinda gukuka.

Amenyo ari gushinyika, bigaragara ko ntabwo ari amenyo y'umuntu muzima, ari kugaragara ndetse n'imizi yayo, n'aho aba ateyere, ni mu rwego rwo gusobanurira abantu uko amenyo aba ateye.

Abana benshi cyane bari mu ishuri bazamuye korogati ndetse n'uburoso, bambaye impuzankano ndetse barishimye, bari kwerekana ko bagomba koza amenyo yabo bakayagirira isuku.

Aha ngaha turahabona umuntu wari wagiye kwa muganga kwikuza iryinyo, muganga afashe iryinyo n'icyuma amaze kurikura, turabonamo umwenge munini cyane, ariko buriya baraza kumuha ikinini ashyiramo maze uhite usubirana.

Ni byiza cyane kwihutira kwa muganga mu gihe urwaye iryinyo bakarigukuriramo sibyiza kubanza kujya muri magendu kuko ushobora kuhasiga n'ubuzima bwawe.

Umwana wambaye impuzankano z'ishuri; ari kumwe n'inzobere mu by'ubuvuzi. Ifite igishushanyo cyangwa ikibumbano cy'amenyo, aramwigisha amoko y'amenyo n'ibice byayo. Hari abandi bantu imbere ku kibaho bazanye n'uwo muntu, baje kureba icyo gikorwa bahagaze bakurikiye.

Umugore wagiye kwa muganga kwisuzumisha amenyo, none arasamye umuganga w'umukobwa ari gupima amenyo ye ngo yumve ko ameze neza, hirya hari abandi baganga bafite ji imbere yabo ndetse na sanitayiza.

Umwana ukiri muto w'umukobwa afite uburoso bw'ubururu n'umuhondo, aho agiye koza amenyo ye. Ni byiza cyane gutoza umwana kumenya koza amenyo ye hakiri kare, kuko umwana biramufasha ndetse bikazamurinda n'indwara z'amenyo.

Umwana mutoya cyane uri kwa muganga aho ari guseka asa n'uwasamye akaba ari inzobe, bigaragara ko bagiye kumukura iryinyo, kuko tubona ibyuma bifitwe n'intoki bigiye kumukura iryinyo.

Umwana ukiri muto akaba ari kwa muganga aho bari kumukura iryinyo ryamuzengereje, ni byiza nawe kwegera ikigo nderabuzima bakagukurira amenyo uramutse uyarwaye.

Umukobwa uri gushinyiriza afite urudodo mu menyo, aho arwifashisha akorera ifuku amenyo, ni byiza kugirarira isuku amenyo yawe, kuko bituma nta myanda ifatamo kandi nta ntakuke.

Umuntu wambaye itaburiya y'icyatsi n'agapfukamunwa k'umweru ndetse n'amadarubindi n'udupfukantoki tw'umweru, ari gukura umurwayi amenyo kuko uwo muntu yari yaje ari kumurya, ni byiza rero kwikuza amenyo.

Umugabo w'inzobe, afite akantu kameze nk'akadodo arimo arakoza mu menyo, biragaragara ko ari kuyakorera isuku, yambaye imyenda y'umukara ndetse ari no kwireba mu ndorerwamo.

Icyumba cyiza cyane kiri mu mabara y'umweru, hashashemo amakaro y'umweru irikuta n'umweru, ndetse hejuru harimo amatara ari kwaka mu ibara ry'umweru.

Umukobwa uri kumwenyura wafunze udutoki tubiri adukikiza umunwa n'izuru ari kutureba atwereka uburyo afite amenyo meza kubera ukuntu yayitayeho, ni byiza natwe kwita ku menyo yacu akamera nkaya ngaya.

Abana benshi cyane batandukanye, aho bafite uburoso bari koza amenyo yabo bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, bitoje koza amenyo yabo hakiri kare byiza kuko bizabarinda indwara z'amenyo.

Umukobwa mwiza cyane, uri guseka, ufite imisatsi y'umukara, ariko akaba atari kugaragara mu maso. Ari kutwereka ukuntu kugirira amenyo isuku ari byiza cyane. Ni byiza kugirira amenyo isuku, kuko bituma ugira ubuzima bwiza.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho yagiye kwa muganga, none umuganga w'umukobwa wambaye agapira k'ubururu n'imisati ya menshi ari kumwitaho, amuha serivisi zigiye zitandukanye anamusekera, umusaza nawe arishimye cyane.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'umusore w'umuganga, bose bambaye imyambaro y'ubururu hejuru, biragaragara ko bishimye, umubyeyi wabyaye neza iyo ageze mu zabukuru, abana nabo baramufasha akishima cyane.

Abantu bageze mu za bukuru baba bagomba kwitabwaho. Nk'uko tubibona, hano hari umusaza ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi, akaba ari kumwe n'umuganga w'umukobwa, ari kumuha serivise nziza.

Ababyeyi benshi bageze mu za bukuru, aho bari mu murima w'icyayi bari gusoroma inyuma hari intebo bari kugenda bashyira barishimye ndetse bari guseka. Icyayi ni igirakamaro cyane kuko umuntu ukinyweye bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo ugeze mu za bukuru, wambaye agapira k'umukara, akaba ari kugenda ku bintu bakoreraho siporo, hakaba hari umukobwa mwiza umuhagaze imbere, uri kumukoresha izo siporo, kugira ngo agororoke. Siporo ni ingenzi mu buzima.

Ni byiza ko abantu bageze mu zabukuru twajya tubaba hafi, nkuko tubibona uyu ni umusaza wambaye umupira w'umweru, akaba ari kurebana n'umukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'ubururu ari kumusekera, umusaza na we arishimye.

Abantu bageze mu zabukuru bateraniye hamwe, aho hari umwe w'umusaza uri kubereka uturimo tw'ubukorikori akora. Ari kuboha igiseke, abandi na bo bamuhanze amaso.

Abantu babiri, harimo umugabo usa n'ukuze, ari kumwe n'umukecuru w'inzobe wambaye agasaha, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho bari gukora siporo, siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu.

Umusaza ugeze mu zabukuru yagiye kwa muganga, muganga yamushyize ku kuma azajya arakoreraho siporo kugira ngo agororoke yirinde kwandavura ageze mu zabukuru.

Umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru yagiye kwa muganga, aho bari kumuha imiti azajya aranywa kugira ngo agumane ubuzima bwiza, ari kuyihabwa n'umukobwa ukiri muto uri guseka, ufite imisatsi myiza n'amaherena.

Umumama n'umwana bari kumwe, bambaye imyambaro y'umweru, bafite imisatsi ya kizungu, bari gukina umukino w'udupapuro, aho bose bari kureba ku meza hanyuma bakagenda bacanganya utuntu tw'udupapuro, biragaragara ko bose bishimye.

Umugabo usa n'ukuze ufite ubwanwa bwabaye umvi ndetse n'umusatsi, ari kwa muganga aho afashe akuma gasa icyatsi ari guterura, akaba ari kumwe n'umuganga wambaye iby'ubururu ari kumukorera masaje kugira ngo amererwe neza.

Umusaza ugeze mu za bukuru, wambaye agashati k'umutuku, wambaye n'amadarubindi uri guseka, arebana n'umuganga wambaye agashati k'ubururu nawe amusekera, aho ari kumuha serivise ndetse anamupima umuvuduko w'amaraso.

Umuntu ugeze mu zabukuru w'umusaza, akaba yambaye umupira usa igitaka, akaba afashwe mu mugongo n'umugabo wambaye ikositimu, agapfukamunwa n'amadarubindi ari kumuyobora amwereka aho anyura. Ni byiza kuba hafi abantu bageze mu zabukuru.

Umugabo ufite terefoni ari guterefona. Ateraniye hamwe n'abandi bantu benshi cyane bigaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hari umumama wambaye akajiri, uri kugenda abahereza utuntu dutandukanye bigaragara ko ari umuganga.

Umusaza wambaye ishati ijya gusa umweru, afite imvi yambaye n'amadarubindi ateruye aritere y'icyatsi ntoya mu ntoki, ari kumwe n'umuganga wambaye iby'umutuku ari kumwereka uko bayiterura kugira ngo bazane ubuzima bwiza.

Abantu bicaye ahantu mu gisambu harimo umuzungu ucigatiye umwana, bahanze amaso bose umugore uri imbere ya bo uri kuboha agakangara akoresheje udukoresho tugiye dutandukanye, batangarira ubuhanga bwe.

Abantu benshi bari guseka, bambaye imyenda igiye itandukanye, hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'umukecuru wambaye agasengeri k'umukara n'undi muntu utari kugaragara neza, bose barishimye.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye kuteri n'amadarubindi, umusatsi wabaye imvi ndetse afite utwuma tubiri tw'umutuku ari guterura kugira ngo agorore imitsi ye atazagondama.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza, umusaza yambaye agapira k'icyatsi, umukecuru yambaye ak'umutuku, buri wese imbere yetudukiraho, umukecuru arikwereka umusaza ingano y'imiti agomba kunywa.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye itaburiya y'umweru n'agashati k'icyatsi n'amadarubindi, umusatsi ni imvi, ari mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho ari kwandika mu gakayi indwara abarwayi barwaye.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'umukecuru we, ari kumwereka uburyo yabigenza maze intoki ze zigakomera, ntakazajye ahora ari kubabara igihe cyose.

Umusaza wagiye kwa muganga akaba yicaranye na muganga, muganga yambaye itabuririya y'umweru ari kumwenyura ari kureba igipapuro umurwayi ari kumwe kumwereka, ni byiza cyane kwihutira kwa muganga mu gihe urwaye kuko bakuvura byihuta.

Umusaza bari koza mu mutwe ufite invi ndetse akaba afite iminkanyari, arashaje cyane ni ngombwa ko twita ku babyeyi bacu baba bashaje kuko ntacyo baba bagishoboye.

Umusaza ndetse n'umukecuru bageze mu za bukuru, umusaza afite agacupa gasa umukara bari kukitegereza, imbere y'umukecuru hari mudasobwa, naho imbere y'umusaza hateretse ikayi ndetse n'uducupa tubiri turimo ibinini.

Aba ni abagabo tumenyereye mu muco nyarwanda nk'abatahira. Bambaye imikenyero ndetse n'utugofero tw'abatahira n'amashati meza, bari gukoma amashyi bigaragara ko bashimishijwe n'ibyabereye aho ngaho.

Abantu benshi cyane, harimo umusaza n'umukecuru, ndetse n'umwana wabo, n'abuzukuru babo. Bari mu ifoto, bari guseka, barishimye. Ni byiza kujya duhurira hamwe n'umuryango wacu, tukagira ibihe byiza.

Abageze mu zabukuru tuba tugomba kubitura ineza twabagiriye, aha ni umumama uri kumwe n'umukobwa we, bose bari guseka, barishimye, baranezerewe.

Umukecuru w'inzobe ufite udusatsi duke twimvi ari kumwe n'umwana w'umukobwa mwiza cyane w'inzobe uri kumusekera, afite icyuma cyariteri mu ntoki, ari kukimuteruza kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bicaye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo, bigaragara ko ari ababyeyi baje mu kagoroba k'ababyeyi, aho bari kuganira ku bitekerezo bigiye bitandukanye kuko bicaye bakoze uruziga.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho yambaye amadarubindi, afite ikaramu mu ntoki, afite igitabo ari gusoma, yifashe kukantanwa bigaragara ko yumiwe, wagira ngo yanasinziriye kuko imifati ye n'imvi cyane.

Umusaza wambaye amadarubindi ari kumwe n'umukecuru, bafite urupapuro mu ntoki bari gusoma, bari mu nyubako nziza cyane y'abasirimu ifite inkuta zisize irange ry'umweru ndetse harimo n'intebe nziza cyane zigiye zitandukana.

Umugabo ugeze mu za bukuru ufite ubumuga inyuma ye hakaba hari umukobwa we uri kumusunika bose barishimye ndetse bari guseka bigaragara ko ari byiza kwita ku mubyeyi ugeze mu za bukuru.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba ari kumwe n'umukecuru we, bose bafite agapapuro bari kurebaho, umusaza afite ibinini mu ntoki agiye kurya ndetse n'amazi yo kubisomeza.

Abantu bagera muri batanu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri. Hirya y'uwo muhanda hari indabyo nziza cyane, ndetse n'ibiti by'imikindo. Abantu bageze mu za bukuru, baba bagomba gukora siporo.

Abamama batatu bageze mu zabukuru, aho bari kureba muri telefone igezweho, bari guseka, bigaragara ko bari gufata agafoto, bishimye.

Umusaza ushaje cyane ari kumwe n'umukecuru bari gusangirira ku meza, umusaza ari guseka, bari kurya imbuto ndetse bafite n'amazi imbere yabo, ni byiza kurya indyo yuzuye igihe ugeze mu zabukuru.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba afite ikirahuri imbere ye, ari kurerebana n'umuganga wambaye agashati k'ubururu, ari kumuha ikinini cyo azajya arya kugira ngo agire ubuzima bwiza muzira umuze. Ni byiza kujya tugana kwa muganga mu gihe tugeze mu zabukuru.

Umugore cyangwa umusaza ugeze mu zabukuru akaba ari kwitabwaho n'umwana w'umukobwa aho ari kugenda amusunika ku kagare k'abafite ubumuga kugira ngo amugeze mu cyumba ashaka kujyamo.

Abantu batandukanye bari mu nama mucyumba gisa nk'ivu imbere yabo buri wese afite mudasobwa bari kureba ku rukuta ruriho amashusho yerekana insanganyamatsiko bari kwigaho muri iyo nama.

Umugabo n'umugore bafite icyapa cyanditseho ikirangantego cya RBC, ikigo cy'igihugu cyita ku buzima ndetse n'ikirangantego cy'u Rwanda, munsi handiseho ngo twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kugenda mu muhanda bambaye imyambaro y'umweru, bafashe icyapa cyanditseho ngo urubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda. Irinde virusi itera sida, ipimishe uyu munsi.

Utumenyetso dushushanyije mu mabara atandukanye twifashishwa mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye zidakira. Harimo SIDA, kanseri, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi nyinshi.

Kwikingiza Kovide cumi n'icyenda ni ingirakamaro cyane, hano hari umugabo wambaye ishati y'ubururu, ari guterwa urushinge n'umuyisilamu wambaye amadarubindi, bose bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda Kovide cumi n'icyenda.

Umugabo n'umugore bahagaze, umugabo ni umuzungu yambaye ikositimu, umukobwa ni umwirabura ariko yambaye agakanzu keza, bari kutureba batwereka icyapa kiri inyuma yabo ko cyatugirira akamaro.

Hano hari icyapa cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, Kaminuza y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda ndetse n'ikigo cyita ku buzima ku isi cya Unicef.

Umugore wicaye afite indangururamajwi, yambaye imyenda yumukara, yambaye n'akabaji k'ubururu ari gutanga imbwirwaruhame bigaragara ko imbere hari abantu bamukurikiye.

Inyubako yicayemo abantu batandukanye bari mu nama, imbere hahagaze umugore ufite indangururamajwi wambaye inziga ku mboni ari kuvugira mu ndangururamajwi bigaragara ko ari ku bakoresha iyo nama.

Abantu benshi bicaye n'abahagaze harimo abagabo n'abagore bari gufata ifoto y'urwibutso bari bari mu nama, inyuma yabo hari icyapa gisa icyatsi n'umweru kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya Afurika yunze Ubumwe.

Aha ni hantu hari ibyapa biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu. Yanditseho ngo Afurika y'Iburasirazuba. Ubushakashatsi bwita ku buzima.

Igihe wagize ikibazo ihutire kujya kwa muganga bakuvure. Nkuko bigaragara kuri iyi foto, uyu muntu yagize ikibazo, none yagiye kwa muganga baramupfuka, kugira ngo igisebe gikire vuba.

Abantu bateraniye ahantu muri sale bafite amataburiya y'umukara ndetse bafite imisatsi y'umukaraya menshi, bakurikiye umuntu uri imbere uri kubabwira imbwirwaruhame wambaye ishati y'umukara n'agapantaro k'umweru.

Aha turi kuhabona icyapa kiriho umuntu uri kuvura umwana w'umuganga, hakaba hari n'andi magambo agiye yanditse atandukanye ari mu mabara y'umukara, umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Abantu harimo umugabo wicaye ndetse n'abana bagera muri bane bicaye imbere ye, biragaragara ko umugabo ari kubabwira inkuru zigiye zitandukanye zerekeranye n'ibibazo by'ubuzima ndetse n'imitekerereze mu Rwanda.

Umurwayi uri kwa muganga bigaragara ko arembye, kuko imbere ye hateraniye abaganga bagera muri batatu, bose bambaye impuzankano z'icyatsi. Muri iki cyumba imbere harimo insakazamashusho zicanye.

Inyubako ya konvesheni senta, iri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere yayo hakaba hashushanyije umukobwa, n'andi magambo agiye atandukanye, arwanya indwara ya diyabete ku isi.

Iki ni icyapa cyanditseho ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro mu gihe cy'imyaka icumi, cyanditse mu mabara y'umweru, aho cyanditse harasa ubururu ndetse hari n'ahanditse icumi mu ibara ry'icyatsi n'ahandi h'umweru.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu nama, imbere hari intore ziri kubyina, ziteze amaboko, abakobwa beza cyane, hari amarange y'ubururu n'umweru ndetse hari n'abasore nanone bari kubyina, imbere hari icyapa byanditseho insanganyamatsiko bari kwigaho.

Abantu bambaye imyambaro yabugenewe y'akazi iri mu ibara ry'ubururu aho ari abaganga, harimo umwe uri kuvura umusaza uryamye yasamye n'akagofero k'ubururu, hirya hahagaze abandi bantu bategereje serivise.

Abantu benshi, bateranye, bicaye ku ntebe z'umutuku, bari mu nama, imbere yabo hari abantu baje kubakoresha iyo nama, hari abagore ndetse n'abagabo, imbere aho bari kureba, hari icyapa yanditseho insanganyamatsiko bari kuvugaho uwo munsi.

Ikirango cyo gukuba, kigaragaza uburyo bwo kurwanya virusi itera SIDA, mu Rwanda. Hejuru hari ikirangantego cy'u Rwanda, ndetse n'ibirago biranga ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda, gishinzwe ubuzima.

Abakobwa beza cyane benshi cyane batandukanye bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'amapantaro atandukanye, bafite ibyapa by'umutuku bari kureberamo, bigaragaza ko hari ibihembo batsindiye.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe aho bari kwifotoza, harimo abambaye impuzankano z'umweru ndetse n'iz'ubururu. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bari bari kwigaho. Ndetse harimo n'umudaso wambaye imyenda y'icyatsi.

Icyapa cyanditseho amagambo y'icyatsi n'umweru, aho hariho n'inyuguti nkuru zisa ubururu, hariho RHIA. Hakaba handitseho n'inyuguti z'umweru zivuga ngo "twirinde kanseri."

Uburyo bwo gushyira ubuzima bw'umuturage imbere bari kubona icyapa kiriho inyuguti ya ''H,R''ndetse n'ibiganza bibiri biri gusuhuzanya hari amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi ikaba yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku ku mpande hari amatara yo ku muhanda ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Aha ni mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba irimo inkingi ziteye amarangi y'umweru ndetse n'utuntu tw'umukara bifashisha bari gukora siporo.

Inyubako nziza cyane yo mu bwoko bw'amagorofa, ikaba isize irangi rizima, imbere haparitse imodoka nyinshi cyane, bigaragara ko ari ahatangirwa serivise z'ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye ikaba irimo imiti myinshi yifashishwa mu buvuzi, iyi nyubako ikaba icanyemo amatara arikwaka mw'ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite na sima iri gusa ibara ry'ivu.

Umuntu urwaye uri kwa muganga, yambaye agapfukamunwa ari kwitabwaho n'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru aho ari kumupima umuvuduko w'amaraso, akoresheje icyuma cyabugenewe ashyira ku kuboko k'umuntu.

Inyubako nziza cyane ikikijwe n'imihanda ya kaburimbo iyo nyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa, yubakishijwe udutafari duhiye ndetse ifite n'amarange y'umweru hejuru, munsi haparitse imodoka ya purado.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, biri mu mabara y'ubururu, biri mu nyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru, hakaba hatangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane igaragara nk'aho ari Kaminuza nkuru y'u Rwanda y'ishami rya Huye, hari umugabo uri kumanukamo wambaye agashati k'umutuku n'umuntu bari kurebana wambaye agapira k'umutuku.

Abantu bateraniye ahantu hamwe mu nama, buri wese afite icupa ry'amazi imbere ye ndetse hari abandi bantu bane bicaye imbere yabo, ku meza ariho igitambaro cy'icyatsi, bari kubakoresha iyo nama.

Inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umweru, itangirwamo serivise zijyanye n'ubuzima, aho ifite amakaro y'umweru ndetse ikaba igaragara neza n'amatara yaka mu ibara ry'umweru.

Inyubako ya farumasi itangirwamo serivise zigiye zitandukanye, aho bacuruza imiti. Nawe niba urwaye, nakugira inama yo kuhagana maze ukaguha imiti ugakira.

Inyubako yubatse mu buryo bw'uruziga isize amarangi asa oranje ndetse n'ivu, haruguru yayo hari iy'indi nyubako nziza cyane nayo ifite amarangi asa n'ivu, zikaba zifite ubusitani bwiza cyane.

Inyubako ndende ikorerwamo serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubucuruzi, aho ugenda ukavuga icyo ushaka bakakiguha hanyuma nawe ukishyura amafaranga ukagenda, ni byiza kwivuza hakiri kare.

Ahantutu hari inyubako nziza cyane y'ibirahure ndetse ifite inzugi z'umweru hejuru hari icyapa cyanditseho ngo farumasi ikaba iherereye i kanombe nawe ukeneye kwivuza wagenda ukahagura imiti.

Inyubako nziza cyane ifite amadirishya y'icyatsi n'ibirahuri, ndetse ikaba ifite ibikuta biteye irangi rya oranje, imbere ku rubaraza hari gutambukamo umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho hari umukobwa wicaye wambaye akagofero k'umukara, yicaye ku gitanda hari umuganga w'umukecuru uri kumubaza indwara arwaye, hirya hari umubyeyi uryamye ku gitanda ari kubareba.

Abantu b'abaganga bambaye imyambaro y'umweru, bari kureba ku cyuma na cyo gisa umweru, bari mu nyubako iteye amarangi y'umweru. Harasa neza, kandi na bo basa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho harimo ibitanda byiza cyane by'amabara y'umweru n'ubururu ndetse bikaba bifite utwuma dutangira umurwayi kugira ngo ataza kugwa.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuzima kwa muganga, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifite amapine. Ifite ibikuta by'umweru, hasi hari tapi zisa umukara ndetse amatara asa umweru ariko arazimije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho hanze hakaba haparitse imodoka, imiryango y'iyo nyubako hari kwinjira hari no gusohoka abantu, hakaba hamanitse hejuru kandi icyapa kigaragaza umunsi wabayeho uwo ariwo.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inzu y'ababyeyi n'impinja, yubatswe mu buryo bwa etaje aho ifite ibikuta biteye amarange y'umweru ndetse n'amadirishya asa umweru.

Ibigonderabuzima cya Nyarurenzi cyiza cyane gisakaje amabati y'ubururu, gifite inkuta ziteye amarangi y'umweru. Hasi no hejuru harimo abantu baje gushaka serivise.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho mu imbere hari gushashagirana hakaba harimo ibitanda byifashishwa kwa muganga ndetse hari ibikuta biteye amarange y'umwe hasi harasa icyatsi.

Ikigo gitanga serivise z'ibijyanye n'ubuzima RCC, kikaba gifite inyubako nziza cyane isize irangi rya oranje ndetse imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo indabyo nziza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'amagorofa, irageretse ndetse ifite ibirahuri byinshi cyane bimeze neza, aho hakorera ikigo cyo muri Afurika cyita ku nyamaswa ndetse n'abantu.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa kwa muganga, aho babikoresha bongerera abantu umwuka, hakaba hari abantu bicaye imbere yaho, mu nyubako ifite ibikuta bisa umweru.

Inyubako nziza cyane iri kwaka amatara asa umweru ndetse ikaba ishashemo sima isa ivu, harimo imiryango myinshi ifunguye ndetse nta gikoresho kirimo, bigaragara ko ikiri nshyashya.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, aho iri iruhande rwa kaburimbo, imbere muri iyo nyubako, hakaba harimo umuntu wambaye akagofero k'ubururu n'itaburiya y'umweru.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kiri mu mabara y'mweru, ibirahuri byiza cyane ndetse kirimo ibikoresho byabugenewe bitanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane zigiye zitandukanye, ku muhanda hari ubusitani bwiza mo hagati mu busitani hari igiti kirekire cy'inganzamarumbo, hirya hari inyubako nziza cyane zitangirwamo serivise z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ku mpande hari utuyira tubiri tw'amapave turimo abantu bari kugenderamo ndetse kuri utwo tuyira, dukikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti byiza bitoshye.

Inyubako nziza cyane zisakajwe amabati atukura, zikaba zubatswe mu buryo bwa etaje, hakaba hari ubusitani burimo indarapo ry'u Rwanda ndetse na parikingi ngari iparitsemo imodoka na moto, hakaba hari n'akayira karimo amapave.

Ahantu heza cyane, hameze nko kuri sitade, hakaba ari mu nzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi. Aho harimo tapi ziteye amarangi y'icyatsi n'umweru, ndetse hakaba hari n'intebe nyinshi zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite parafo z'umuhondo, ziri kwakamo amatara y'umweru, ifite ibikuta by'umweru, bigaragara ko ari ikigo gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo n'intebe zabugenewe zitandukanye.

Inyubako nziza cyane zigiye zitandukanye, hari izisize amarange y'umweru n'izisakaje amabati y'umutuku, hari n'urugo rwubakishije amabuye. Harimo abantu benshi baje gushaka serivise, bigaragara ko ari mu kigo cy'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane isakaje amarange ndetse n'amabati y'umutuku, ibikuta birasa umweru. Ikikijwe n'urugo rw'ibyuma by'umutuku ndetse ku ruhande haparitse akamodoka k'akavatiri.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Gishweru, ikaba ifite inkingi zisize amabara y'umweru ndetse n'inzugi z'umukara, hasi hahagaze abantu bagera muri bane.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa bigiye bifite amapine, turi kubonamo intebe yicarwamo n'umuntu bagiye gukura amenyo.

Inyubako nziza cyane, isakaje amabati y'ubururu ndetse yubakishijwe amatafari ahiye. Ikaba yanditseho ngo icyumba cyangwa inzu y'abababyeyi. Ifite ibikuta bisa umweru.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ni ku kigo nderabuzima aho hari abantu benshi cyane baje gushaka serivisi bicaye bategereje muganga ngo aze abavure.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hakaba harimo umugabo wambaye itaburiya, ndetse hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Abantu batatu bari mu cyumba kimwe aho ari umuganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umurwayi wicaye ari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru ari kumubwira indwara ye undi nawe akayandika.

Inyubako irimo utuyetajeri twinshi cyane kandi tureture turimo imiti igiye itandukanye bifashisha bari kuvura abarwayi.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ikaba iriho n'amarangi y'umweru, yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere hariho ubusitani bwiza cyane n'indabyo ziringaniye n'izindi zisumba izindi.

Inyubako ndende icururizwamo imiti izwi ku izina rya farumasi munsi haparitse akamodoka ka kavatiri keza cyane hirya hari umuhanda w'amabave ndetse hari n'amavazi ateyemo indabyo.

Inyubako nziza cyane y'ubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti biri mu bwoko bw'indarapo ry'u Rwanda ifite ibirahuri bigaragara neza n'uduhanda tuhagana turimo amababi.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ikaba irimo intebe bakuriho abantu amenyo n'udutanda batwaraho abarwayi, iyi nyubako ifite ibikuta by'umweru biriho uturongo tw'ubururu n'umutuku.

Inyubako nziza cyane yanditse ngo santere do sante Gisenyi, ikaba isakajwe amabati y'umutuku bigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Gisenyi, hanze hari ibyapa bibyerekana ndetse n'igare ritwaye umugenzi uhaje ufite indobo rirahagaze agiye kuvaho.

Inyubako nziza cyane zigaragara neza zubatswe mu buryo bwa etaje, imbere yazo hari ubusitani bwiza cyane, hakurya yazo hari ikirere kirimo ibicu biri gusa ubururu n'umweru, iyi foto ni nziza cyane pe.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, akaba ari mu nzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi, hakaba harimo abarwayi batandukanye baryamye ku bitanda, bigaragara ko baje kwivuza ndetse bakaba barembye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo abarwayi bagiye batandukanye, baryamye ku bitanda byabugenewe ndetse bisize amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umumama wapfunduye firigo isa ubururu n'umweru, akaba yambaye imyambaro y'umweru ndetse n'umusatsi we ni umweru, biragaragara ko ari umuvuzi. Icyumba arimo gifite igikuta gisa umweru n'ibirahuri byiza.

Ni byiza kunyarukira kwa muganga igihe cyose wumva utameze neza. Uyu musaza yakurikiranye amabwiriza ya muganga none yarwaye ahita yihutira kujya kwa muganga none ategereje ko bamuvura.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati ndetse ikaba ifite n'ibikuta biteye amarange y'umweru, imbere hahagaze abantu harimo n'umugabo ushinzwe umutekano.

Inyubako itangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, ikaba ifite inzugi z'umweru, ibirahure bibonerana ndetse n'amarangi ajya gusa ivu, ni ahantu hari abantu bari kugenda bajya gushakamo serivire.

Inzu nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite ibikuta bisize amabara y'umweru, ku mpande hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire cyane.

Inyubako nziza cyane, yubakishijwe amatafari ahiye. Izengurutswe n'utuyira turimo amapave. Hari kugendamo abantu ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane. Ruguru y'iyo nyubako, hari indi isakajwe amabati y'umutuku.

Ni inyubako zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, aho zubakishije amatafari ahiye, amarange y'umweru, hakaba hari ubusitani bwiza cyane, hagati hari igiti kirekire cy'inganzamarumbo gitanga amahumbezi ku baherereye aho ngaho ubose.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye, aho hari igitanda ndetse n'insakazamashusho ziba zirimo kugira ngo umurwayi azajye azireba igihe ananiwe.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko hatangirwamo serivisi zubuvuzi, hari imiryango igiye ifunze ndetse hari n'ibyapa bigiye bimanitse kuri buri mu ryango, by'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi, aho harimo igitanda kitariho abarwayi ndetse n'inzu ifite inkuta ziri mu ibara ry'umweru, hakurya ni icyatsi ahandi ni ubururu.

Inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, aho umuntu wese waba arwaye, yagenda bakamuha imiti kuri make, bakaba bamuvura agakira kandi byihuse.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, yanditseho mu ibara ry'ubururu ngo ''Isange one stop center'' aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umurwayi uri kwa muganga, aho aryamye ku gitanda cy'ubururu, hakaba hari umuganga uri kumwitaho, hirya hari n'undi musore uryamye ari kwitabwaho na muganga, bigaragara ko hano ari mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako ngari cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho hari amarido meza y'umweru ndetse n'ibitanda birwariraho abarwayi, biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo amakaro meza asa umweru n'intebe zisa ubuuru, hari agakontwari kanditseho aho bakirira abakiriya mu ibara ry'ubururu.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba isize amarange y'icyatsi, handitseho ngo tageti. Hakaba hatangirwa serivisi nyinshi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu batandukanye abari mu rubaraza rw'inyubako yanditseho ngo materinete inzu y'ababyeyi ifite inzugi z'umweru ndetse abarimo hari umugore uhagaze wambaye agapira k'ubururu.

Abantu bahagaze ndetse n'abatonze umurongo, bari mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hejuru yabo hari parafo z'umweru, inyubako ifite ibikuta by'umweru, hari abantu bicaye imbere ku meza n'undi umwe wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Inyubako nziza cyane ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru akaba ari laboratwari, hasi mu rubaraza hahagazemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, hino hari akayira karimo amapave n'ubusitani.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho harimo ibitanda byiza cyane bifite amapine bitwararwaho abarwayi ndetse ibikuta bisize amabara y'umweru harimo n'amakaro munsi.

Abakobwa bagera muri batatu, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'utugofero tw'umweru, inyuma yabo hari ibiti byinshi birimo n'imikindo, biragaragara ko ari abaganga.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hari inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru, hasi harimo intebe ziri mu marangi y'ubururu, hari amakaro meza cyane y'umweru.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru ku bikuta, imiryango y'imbaho imeze neza cyane ndetse hakaba hariho n'icyapa gisa umuhondo. Amatara ari kwaka umweru ndetse hari ikirongozi gikomeje imbere.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru ifite ibirahuri byiza cyane ikaba ifite ho itumayuma bizasakai n'amatarepai umwe munsi hari utuntu tugiye dusa icyatsi turi kwaka.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho harimo ibikoresho byabugenewe mu buvuzi ndetse iyo nyubako ikaba ifite ibikuta biteye amarange y'umweru, harimo n'ibitanda bifite amapine.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati y'ubururu ndetse ikaba ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ku marembo handikishije hari inzugi zo mu mabara y'umutuku zanditsweho ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya mu mabara y'umweru.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umweru, imbere ifite ubusitani burimo ibyatsi bisa ubururu. Iyi akaba ari ikigonderabuzima.

Inyubako nziza cyane, ikikijwe n'umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu. Kuri iyo nyubako, hakaba hari inkingi zubakishijwe amatafari ahiye. Hakaba hariho icyapa cyanditsweho ngo ibitaro bya Ruhengeri.

Aha ni inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi aho ifite inzugi z'ibyuma z'umweru zifite ibirahuri byiza cyane, ikaba ifite ibikuta bisize amarangi y'umuhondo na parafo zisa umweru, igikuta cyanditseho ngo reseach centre bivuga aho bakorera ubushakashatsi.

Inyubako iteye amarangi y'umweru ikaba ifite ibirahuri bijya gusa ubururu, hanze hari umuhanda w'igitaka uri kugendwamo n'urujya n'uruza rw'abantu iyi nyubako ifite uruhande rumwe rwubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nziza cyane nini mu mabara y'umweru itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi hakaba hahagazemo abantu benshi bari kugenda biga ku bintu bigiye bitandukanye, hakaba hari kwakamo amatara y'umweru.

Iki ni ikigo nderabuzima cya shagasha, aho gisakajwe amabati y'ubururu ndetse inyubako ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, hari ibikuta biteye amarangi y'umweru hanze yicaye abantu ndetse n'imboga ya irimo amapave.

Umwana ukiri muto bazanye kwa muganga ari guseka, imbere ye hari muganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, nawe ari kureba uwo mwana amukozeho, hino hicaye umugabo wamuzanye uteze igitambaro, iyo nyubako iteye amarangi y'umweru.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, aho yanditseho ngo raboratwari, imbere hakaba hicayeho abantu baje gushaka ubuvuzi, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane harimo n'indabyo.

Inyubako nziza cyane mo imbere harasa umwero harimo akavazi karekare gateyemo ururabo ndetse harimo n'amakararo y'umweru amatara ari kwaka umweru ndetse hari umuryango urimo utumenyetso hejuru twerekana aho basohokera turi mu ibara ry'umutuku.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umweru ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane, hari n'umuhanda wa kaburimbo uriho icyapa kigaragaza aho iyo nyubako iri.

Umugabo wambaye akagofero k'umweru n'itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari umuganga, ari mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi, aho imbere hari kugaragaza insakazamashusho izimije.

Uducupa tugiye dutandukanye turi mu mabara y'umweru ndetse n'udushashi turimo ibinini, ibi byose ni ibintu wakwifashisha kugira ngo ukore imyitozo ngororamubiri, hanyuma ubuzima bwawe bumere neza.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu buvuzi kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Aho cyifashishwa hatangwa serivise zigiye zitandukanye kwa muganga. Ni byiza ko nawe wagana kwa muganga bakakwitaho igihe waba ufite uburwayi runaka.

Ivi ry'umuntu w'umuzungu rishobora kuba ryakomeretse kuko rifatishijweho akamushwara k'ubururu kugira ngo bapfuke igisebe kitaza kujyaho amasazi akaba yakwangirika.

Uyu ni umukobwa uri gukora siporo ku byuma byabugenewe bya kizungu byo kwa muganga, birasa umukara ndetse hari n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umweru watebeje, akaba yambaye n'agapfukamuwa k'umukara, ari kumwerekera.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane nkuko tubibona hano hari umukobwa mwiza wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima buzira umuze nawe nakugira inama rero yo kujya ukora iyi myitozo kugira ngo utazahangayika mu zabukuru.

Agakarito karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byifashishwa mu bucuruzi bwa magendu, aho hari umuntu ufashe agakarito karimo imiti icuruzwa mu buryo bwa rusange na magendu.

Inyubako tangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zita ku buzima, aho hari kwakamo amatara y'umweru ndetse hakaba harimo n'abantu bagiye batandukanye b'abaganga, inkuta zirasa ibara rya kaki ndetse harimo n'amakaro asa ibara ry'igitabo.

Umuntu wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara ndetse afashe ku nkweto ze, aho ari kugorora umugongo we kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa uri gukora siporo yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara yicaye ku gitanda ari kwinanura bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri, inzu arimo ifite igikuta gisa umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga by'umwihariko nk'iza siporo, harimo ibyuma byabugenewe. Harimo umukobwa w'umuzungu uri gukora izo siporo ndetse n'umugabo wambaye agapfukamunwa umuhagaze imbere uri kumwerekera.

Umugore uri kwishima mu mugongo, aho yambaye agasengenri k'umukara, akaba yambaye na ekuteri. Bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi, akaba ari kwishima, ngo arebe uko yakira.

Iki ni igikoresho gikunze kuba kiri kwa muganga cyifashishwa n'abantu bashaka gukora imyitozo ngororamubiri, kikaba kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, mu imbere harimo imibare myinshi.

Nk'uko abaganga bahora babidushishikariza, gukora siporo ni ingirakamaro cyane. Nk'aha ngaha turabona umukobwa wunamye ari gukora siporo z'ingororamubiri ndetse afite imisatsi myinshi.

Iki ni ikiziga kirimo abantu babiri, harimo umwe wambaye imyenda y'umweru, undi yambaye iy'ubururu. Aba ni abakinnyi ba karati, aho bari gutana mu mitwe, bakora siporo, mu Rwanda.

Ikirenge cy'umuntu bigaragara ko ashobora kuba yakomerekeye muri siporo cyangwa hakaba hari umuntu uri kumukorera masaje, bamufashe ikirenge kubera ko yashinze ukuguru kumwe ku mutego usa umweru.

Abantu bateraniye hamwe mu nzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi, akaba ari kwa muganga, bambaye impuzankano z'amataburiya y'umweru, harimo n'abandi barwayi bagiye batandukanye, insakazamashusho irafunguye.

Umusore mwiza cyane ufite gurudu isa umweru ari kunywa amazi, amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi kuko iyo ayinyweye bituma umubiri wawe ugubwa neza, nawe nakugira inama yo kunywa amazi buri munsi.

Umuntu ufite imisatsi ya direde, yambaye agapira k'umukara n'agakabutura k'umukara karimo uturongo tw'umweru, inkoto z'umukara, akaba ahagaze kuri tapi y'icyatsi aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, inzu arimo ifite ibikuta bisa umweru.

Umupira wifashishwa mu gihe cyo gukora siporo ngororamubiri, urawuhambura ukawuhambira ku kaboko kawe hanyuma ugatangira gukora imyitozo kugira ngo bikorohere utaza kuvunika.

Umurwayi urembye cyane aryamye kwa muganga yubamye arebye hasi hario umuganga uri kumwitaho wamushyize serume mu mugongo, inyuma ye hari rido ndetse yambaye agapfukawa n'udupfukantoki, hirya ye hari akabaho gasa umutuku kamanitse ku gikuta.

Gukora siporo ni byiza cyane nk'uko tubibona uyu mugabo ari gukora siporo, none ukuguru kwe kwajeho amaraso ariko ari kugerageza kugorora umubiri we kugira ngo urusheho kumera neza.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane, nkuko tubibona uyu ni umukobwa ukiri muto ariko akaba yihatira gukora siporo ngororamubiri. Aho yambaye ipantaro y'umukara n'agasengengeri k'umutuku, ari gukora imyitozo igorora umubiri we.

Siporo ni ingirakamaro cyane, aho turi kubona uyu mukobwa wambaye imyambaro y'umukara, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye na kuteri kugira ngo ajye yumva indirimbo.

Aha kutwereka udukarito turimo ibikoresho bigiye bitandukanye ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora imyitozo ngororamubiri waza ukarebamo icyagufasha hanyuma nawe ukazajya ukora siporo.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane kuko bituma umubiri ugororoka nk'uko tubibona uyu musore yambaye ikabutura n'isengeri, yamanitse akaguru kamwe, afashe ku birenge bye ari kugorora umubiri kugira ngo amere neza.

Utu ni dukoresho tugiye dutandukanye wakwifashisha ukora imyitozo ngororamubiri, hari umukobwa wicaye afite indangururamajwi cyangwa se tuvugane hirya ye hari mudasobwa ari kuvugana n'umuntu.

Icyapa cyanditseho ngo repubulika y'u Rwanda, ibitaro bya gisirikari. Hasi hariho ibyapa byerekana ahantu ushobora guhugira, mu gihe ufite umwanya w'ubusa.

Umusore wambaye agapira k'umweru, akaba yambayeye na kuteri ari kunywa amazi. Amazi ni ingirakamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko aturinda indwara zigiye zitandukanye.

Igikoresho bifashisha kwa muganga muri siporo, aho umuntu agenda yagerayo ashaka gukora siporo bakamuha kino gikoresho hanyuma agakora siporo uko abyifuje yashaka gutaha akakibasubiza akagenda.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane, kuko bituma umubiri wawe umera neza. Biba akarusho iyo uri kuzikora, uri no kumva imiziki. Ukaba ufite n'amazi hafi aho, ukagenda usomaho. Bituma ugira ubuzima bwiza kurushaho.

Kuruwa ruge ni umuryango utabara imbabare aho ufite ikirango cy'umusaraba w'umutuku uba uri mu ruziga, ni byiza gutabara imbabare kuko ntawe umenya aho bwira ageze.

Icyapa cyanditseho ngo imyaka icumi yo kongera uburyo bwo kubungabunga ibikomere by'ubwonko, hasi hari ifoto y'umukobwa wicaye ndetse n'undi mukobwa uhagaze afashe ku ntebe.

Umukobwa mwiza cyane uri kunywa amazi. Kunywa amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko umuntu uyanyoye agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuganga wambaye imyambaro y'ubururu, ari kumwe n'umusaza wambaye agapira k'umukara, akaba ari kumukoresha siporo akoresheje urudodo rw'umuhondo, kugira ngo uwo musaza agire ubuzima bwiza.

Ibishushanyo byinshi cyane bigiye bigaragaza imitwe y'abantu ihangayitse kenshi abantu bakunze guhangayika kubera kudakora siporo, ni byiza gukora siporo ngororamubiri kugira ngo ugabanye imihangayiko mu mutwe.

Akagare ko mu bwoko bwa burakare kifashishwa batwaye umurwayi hirya hari abantu basa umutuku batwaye umurwayi kuri ako kagare bamutabara.

Icyapa kigaragaza ubwoko bwa siporo zigiye zitandukanye, ugiye ureba ibishushanyo bihari, ubona siporo wakora ikakumerera neza bitewe n'aho uherereye.

Abantu bateraniye hamwe bari muri siporo, bambaye imyenda y'amapantaro n'udupira cyangwa udusengeri, harimo abakobwa, abasore n'abagabo, umuhanda bahagazemo urimo amapave hirya hari ibiti birebire.

Aha ni mu iduka ricuruza imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi aho ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo imiti iri mu mabara y'umweru, ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'iyindi myinshi cyane, nawe nimba ushaka imiti wagana hano bakayiguha.

Umugabo uri kunywa amazi yambaye agapira keza cyane, kunywa amazi ni ingirakamaro kuko bikurinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, na we rero nakugira inama yo kwihatira kunywa amazi kuko byatuma ugira ubuzima buzira umuze.

Umusore mwiza cyane ufite amatugu n'amatuza, akaba yambaye ekuteri ari kunywa amazi, ni byiza kunywa amazi kuko bituma umubiri wawe ugubwa neza, na we nakugira inama yo kuzajya unywa amazi nibura litiro ku munsi.

Aha turi kuhabona amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, aho hejuru handitseho ngo Nshimiyimana Viateur, akaba ari inararibonye mu bijyanye n'ubuvuzi.

Baranse egizerisayizise foru rikovari, ubu ni uburyo bazanye umuntu akora imyitozo agahita akira, akagira ubuzima bwiza. Hari abantu bane batandukanye, umwe arahagaze, undi afashe ku ntebe azamuye ukuguru kumwe, undi afashe ku giti azamuye ukuguru kumwe atambitse n'amaboko yombi, undi arahagaze azamuye ukuguru kumwe.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, hanyanyagije utuntu tw'umukara, muri abo bantu harimo abambaye imyeru ndetse n'akantu kameze nk'akameza karambitseho igitambaro cy'umutuku.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga, iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri. Aho agenda agahagararaho, kikajya kiramukaraga, uko yikaraga, ni na ko umubiri we ugenda urushaho kugororoka.

Umugore ufite akana bari mu nzu, akana karishimye cyane kambaye imyenda y'umweru ndetse n'umugore yicaye ku buriri ari guseka yambaye ibitenge, iyi nzu irasa n'ishaje kandi irimo uburiri bwinshi cyane.

Umuntu wambaye ubusa hejuru, utari kugaragara neza mu maso, ariko akaba afite agatuza bigaragaza ko yateruye ibyuma, yakojejeho ikiganza gisize amarangi asa ubururu ndetse n'umutuku.

Umugabo w'umusore ufite amatugu n'amatuza aho ari kwimena amazi mu kanywa ndetse anayitera, ni byiza kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibi ni ibizingo biriho utuntu bambara iyo bagiye muri siporo. Iki kiganza cy'uyu muntu tubona, kizirikiyeho kano kazingo ku kuboko, bigaragara ko ameze neza kandi akomeye.

Icyuma bifashisha bari muri siporo aho umuntu agenda akicaramo hanyuma kikamukaraga, kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru kirasa neza cyane.

Akuma gakoreshwa kwa muganga, umuntu ugiye gukora siporo bamuha akajya arakagendaho, agenda agororoka, kugira ngo uturemangingo twe tujye dukora neza.

Umukobwa uri muri siporo washyize telefoni ku kuboko kw'ibumoso akaba ari kunywa amazi. Gukora siporo no kunywa amazi ni ingirakamaro cyane nawe nagushishikariza kubikora kuko bikugirira akamaro.

Igikarito cyavuyemo ikizingo abantu bizirika iyo bari gukora siporo, ni byiza cyane kwambara kino kizingo, kuko bituma umuntu adakomereka ndetse n'inyama ze zirakomera.

Umupapa w'umuganga wambaye imyambaro y'ubururu, akaba yatunze ikintu ku mwana kiri kwaka itara aho ari kureba uko umwana ahagaze, ari kumwe na mama we umucigatiye wamuzanye kwa muganga kugira ngo bamwiteho, bose bambaye udupfukamunwa wasibye uwo mwana.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane iyo ugeze kwa muganga bakwereka ahantu hari ibyuma ukajya uragenda uri kubisunika, uko ubisunika niko ukoresha imbaraga ndetse ukagenda ugororoka kubera ko uba wabisunitse.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye ku barwayi, ikaba ari inyubako igezweho kuko irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo: ibitanda abarwayi baryamaho, ndetse n'amatara meza cyane.

Amashusho y'ibibumbano cyangwa ibipupe, umuntu yambara ku kaguru iyo yavunitse maze agakomeza gukora imyitozo, inyuma yaho turabonaho umugore uhagaze wambaye ipantaro y'umweru n'inkweto z'umweru.

Umuntu urikugaragara yunamye yambaye isaha n'agakabutura k'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko abikunze. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umubiri umera neza, nawe nakugira inama yo kujya ukora imyitozo ngororamubiri, nibura rimwe mu cyumweru.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza, ariko kandi no kurya imbuto n'imboga ni ingirakamaro. Iyo uriye intoryi, karoti, amashu, ugakora siporo, bituma ugira ubuzima bwiza, buzira umuze. Nanjye nakugira inama yo kuzajya ubirya, ukamererwa neza.

Umukinnyi wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara n'amafi y'umukara yavunitse aryamye hasi ku kibuga gifashe amatapi y'icyatsi ari kuvugwa na mugenzi we w'umuganga wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, hirya yabo hari abandi bakinnyi bambaye imipira ya orange n'amakabutura y'umukara harambitse n'umupira w'umweru n'umukara wabaro.

Umuntu uri ukora imyitozo ngororamubiri, aho yaziritse agaguru ke ku gikuta akaba agenda akazamura yongera akamanura, kugira ngo yumve ko akomeye mu mubiri we azabashe gutunga urugo.

Umuntu ufashe agacupa karimo amazi, kari kujya gusa ubururu ndetse n'umupfundikizo w'ubururu, ari kutwereka ko kunywa amazi ari ingirakamaro ku buzima bwa muntu, nawe rero nakugira inama yo kuzajya unywa amazi kuko byagufasha cyane.

Umusore mwiza cyane umeze nkaho ari umukinnyi akaba yambaye amajezi ndetse na masike, aho ari kumwe n'umuganga ari kumutwikira akaboko. Hirya ye hari ibyapa bisa ubururu ndetse n'umweru.

Ikimenyetso kiri mu mabara y'ubururu, umutuku, icyatsi n'igitaka, aho bari kutwereka uburyo wakora siporo nyinshi zigiye zitandukanye maze urutirigongo rwawe rukarushaho kumera neza.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi ikaba isize amarange y'ivu, hakaba hari na shitingi imbere yaho isa ubururu.

Umusore wambaye ikote wicaye uvuye muri siporo ari kunywa amazi, amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, ni byiza kuko nkuko ubibona uyu musore ari kunywa amazi arishimye.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara aho afite icupa ry'amazi arikunywa, imbere ye hateretse igikapu yicaye ku ntebe hari n'umukobwa uri gukora siporo, imbere ye nawe afite igikapu yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'agasengeri yazamuye amaboko.

Ikirango cya kuruwa ruje, ikigo gitanga ubutabazi bw'imbabare, hariho umusaraba mu ibara ry'umweru, ufite ubuso bw'umutuku aho uvuga ngo tabara imbabare.

Ibikoresho bigiye bitandukanye harimo; uducupa turimo imiti. Iyi miti wayifashisha ukora siporo aho uyisiga uvuye muri siporo maze ugasubirana ubuzima bwiza igihe wari unaniwe.

Abantu batandukanye, bari kugenda kuri mucaka, muri kaburimbo, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri. Kaburimbo irimo imirongo myinshi igiye irimo isa umweru. Ku mpande za kaburimbo hari ubusitani bwiza cyane.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu n'udukokantoki tw'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru ari kureba muri mudasobwa, inyuma ye hari igikuta gisize amarangi y'umweru akaba afite amakayi ari kwandikamo imbere ye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye ukuguru kumwe akurambika ku cyuma, akaba afatishijeho akaboko ke k'iburyo ku rukweto, gukora siporo ni byiza kuko bituma umubiri umera neza na we nakugira iyo nama.

Akuma kifashishwa muri siporo aho gasa umweru gafite n'amapine gafite n'indorerwamo umuntu yirebamo iyo ari gukora izo siporo, siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu.

Aba ni abantu benshi cyane, bagiye bagaragaza siporo zitandukanye dufite. Hari abari kurwana, hari abari kwipfuka mu maso, ndetse n'abari kumva. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiriho ubwoko bw'imikino ngororamubiri wakora maze ukagira ubuzima buzira umuze biragaragara ko izi ari mudasobwa eshatu ziri kwaka zigaragaza iyo mikino.

Uducupa tw'umweru ducuditse turimo imiti myinshi cyane, yifashishwa igiye itandukanye yita ku mubiri, iyi ni imiti yo mu bwoko bwa gakondo aho ivura indwara zananiranye.

Akantu kameze nk'impinga, hari utuntu tumeze nk'amateke bacagaguye dusa icyatsi, tukaba ari utunini twifashishwa mu buvuzi gakondo, bari kuvura indwara ya Kanseri.

Izi ndabo ushobora kuzibona ukagira ngo ni za zindi bajya bakoresha mu bukwe, ukaba utasobanukirwa izoa arizo, ariko izi ndabyo zifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda aho zivura indwara zitandukanye.

Iki ni icyatsi tuzi nk'igishoko, ushobora kugira ngo kiribwa n'inkwavu gusa, igishokoro kirafasha kuko igihe ukomeretse ukivuguta ukagishyiraho maze igisebe kikomoka, kigakira

Intoki zisa umukara, zifashe agapapuro karimo imiti yo mu ifu, ikaba yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho ivura uburozi bugiye butandukana.

Abantu benshi bari kugenda ahantu mu ishyamba, ahantu hari gutemba amazi menshi cyane ari mu ibara ry'umweru, bose bahetse ibikapu bigaragara ko bakora akazi k'ubuvuzi bwa gakondo, bagiye gushaka imiti.

Ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza busa icyatsi, imbere hakaba hashushanyijeho inkeri z'ibiti ndetse handitseho ngo "umuti ukorwa mu byatsi", akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Udukarito ndetse n'ducupa tuba turimo imiti igiye itandukanye, iyi miti yifashishwa bakora ubuvuzi bwa gihanga, aho bavura indwara zigiye zitandukanye ndetse zanananiranye.

Umugore uri gusoroma ibyatsi, bigaragara ko ashobora kuba ari umuvuzi wa gakondo, ari gushaka ibyatsi byo gukoresha avura abarwayi baje bamugana.

Uducupa dusa umuhondo duteretse imbere y'agakarito gafite amabara y'umweru n'icyatsi, aho gatangirwamo serivise z'ubuvuzi bwa gakondo buvura indwara zinyuranye.

Ibyatsi bigiye bitandukanye biteye hasi ndetse bikaba hari n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, bigaragara ko bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, ari bwo bita ubwa Kinyarwanda.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'icyatsi, hakaba hari n'utunini turi mu mabara ya oranje, ku cyapa hashushanyijeho agasahani kariho ibiryo, ibi byose byifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Agacupa kameze nk'akavamo korogati, ariko si ko bimeze, kuko hano gacupa gafite amabara y'umweru n'icyatsi, ndetse gacutitse ahantu hashya icyari. Kakaba kabikwamo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Kugira ngo twirinde indwara zigiye zitandukanye ni byiza ko twakurikiza amabwiriza atangwa n'abavuzi bo mu buryo bwa gihanga, inanasi nayo iravura ndetse n'utu dukarito ibirimo ubinyweye ntabwo warwaragurika.

Ibabi by'ikimera cyiza cyane kitwa igicuncu, hirya yacyo hari indabyo zigiye zisa umweru, aho biri kugaragaza ko iri babi ryifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umwana ashobora kugera ahantu akabona kino cyatsi akagirango ngo ni kimwe mu byatsi bisanzwe ariko ntabwo azi ko ibi ari ibyatsi byifashishwa n'abavuzi ba gakondo bari gutanga ubuvuzi ku barwayi.

Ibyatsi bigiye bitandukanye bifite amababi acagaguye ubirebye wagira nta mumaro bifite, ariko abantu bakora ubuvuzi bwa gakondo nibo baba bazi akamaro kabyo, kuko buri cyatsi aba ari umuti wavura umurwayi agakira.

Mu ducupa tugiye dutandukanye, dupfundikiye tw'amabara asa, turi mu ka etajeri, bigaragara ko turimo imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye, wifashishwa n'abapfumu.

Uducupa turi mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, aho bigaragara ko utu ducupa tubikwamo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gihanga.

Aka gakarito karimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, ikaba yifashishwa mu buvuzi bwa gihanga, aho ivura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, akaba ari ahantu mu ishyamba, ari kugenda asoroma amababi y'ibiti, uyu biragaragara ko ari umuvuzi wa kinyarwanda, aho avura indwara zananiranye ziganjemo iz'amarozi.

Agacupa karimo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gihanga, aho bavura indwara ziba zigiye zikomeye ndetse hari n'iziba zarananiye abaganga.

Ahangaha turahabona ubucupa bwinshi bugiye butandukanye buri mu mabara y'umweru ndetse bupfundikije imipfundukizo y'umweru, utu ducupa tubikwamo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dufite imipfundikizo y'umukara, iruhande rwatwo hari udukarito turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo bavura indwara nyinshi cyane.

Uducupa tubiri turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara hafi hateritseho agakombe karimo amazi mu kirahuri, ibi ni imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibi ni ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Aho bishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'ibicurane, umugongo ndetse n'amarozi.

Icupa risa umweru, rikaba ririmo umuti wa gakondo, aho wufashishwa n'abavuzi ba gihanga, bari kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane higanjemo amarozi.

Abana benshi cyane bakiri bato, ibyatsi byose babona ko biribwa n'amatungo, iyo babibonye baba babyangiriza, ariko ntabwo bazi ko ibyatsi ari ingirakamaro, kandi bikaba bivura mu buvuzi gakondo.

Agakarito kari mu ibara rya move gashushanyijeho umuntu wifashe mu mugongo, aho ari kwikanda mu mugongo kubera ikibazo yagize kubera kudakora siporo, ariko ariye imiti gakondo yakira.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye turimo imiti gakondo, hejuru yaho handitseho ngo tangira urugendo rwawe ugabanyirizwe, mu byukuri uramutse uguze imiti hano baguha ku giciro gitoya ukajya kwivura.

Uducupa dusa umweru twanditseho amagambo y'icyatsi, utu ducupa tukaba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho baba bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Akavaze karimo ibyatsi ndetse n'utundi ducupa turi ku ruhande, turimo umuti w'umuhondo ndetse n'ibyatsi bitoshye cyane biri ku mpande. Iyi ni imiti ikoreshwa n'abavuzi ba gakondo.

Igikoresho cyanditsweho ngo serumu, kikaba gikoreshwa mu kuvura, ushoboye kukibona ukagira ngo ni korogati, ariko si ko biri kuko kiba kirimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umwana ukiri muto ashoboye kubona izi ndabyo, akagira ngo ni indabyo nziza cyane bakoresha mu bukwe, ariko si ko bimeze kuko ibi ni ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bivura indwara zinyuranye harimo n'iz'amarozi.

Uturahuri tubiri dusutsemo amazi, hakaba harimo n'ibibabi mo imbe. Bigaragara ko iyi ni imiti ya gakondo, aho bagiye kwifashisha baha umuntu warozwe, kugira ngo barebe ko yakira.

Ibimera byinshi bigiye bitandukanye aho bigiye bifite amababi agiye atandukanye ndetse n'indabyo n'imbuto zigiye zitandukanye, hano hari ibiganza biri kutwereka ubwoko bw'ibimera bishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo bakavura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibi ni ibimera ndetse n'ibitoki n'ubunyobwa, ibi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, cyane cyane bukunze gukoreshwa n'abagorozi.

Amavazi asa umutuku n'umukara, akaba ateyemo indabyo z'ibimera ariko zifashishwa cyane cyane mu buvuzi bwa gakondo, aho zivura indwara zitandukanye za Kinyarwanda, ziba zarananiranye kwa muganga.

Abantu benshi cyane bahagaze bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'udupira tw'icyatsi bakaba bambaye amadarubindi, bakaba bahagaze mu murima urimo ibikakarubamba, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Iki ni igiti ushoboye kukibona ukagira ngo ni ipera, ariko siko bimeze kuko iki giti cyifashishwa mu buvuzi bwa gihanga aho kivura indwara zitandukanye.

Ibyatsi bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za gakondo, aho ugenda bakaguha imiti ugataha wakize uri umugege.

Utubogesi cyangwa udukarito twanditseho amagambo agiye atandukanye turi mu mabara y'umweru n'umutuku, utudukarito turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gihanga.

Agacupa karimo umuti wa hand sunitizer aho wica mikorobe ziba ziri mu ntoki cyangwa imyanda iba irimo kandi ugakoreshwa mu kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.

Utu ni udukoresho tw'uducupa turimo imiti igiye itandukanye, umwana muto ashoboye kuyibona akagira ngo harimo ji, ntabwo ari ko biri ahubwo harimo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo indabo, harimo agakoresho kameze nk'ijage karimo indabyo zitandukanye, harimo uducupa ndetse n'utuntu tumeze nk'imidaho turiho imiti n'ibinini, iyi yose ni imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo aho bavura indwara zitandukanye.

Ifoto y'abantu bagera kuri batandatu harimo abagabo babiri, abagore babiri n'abandi bagore babiri bari kureba hirya, hari uducupa ducuritse turimo imiti yanditseho Aloe vera gelly, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, bavura indwara za kinyarwanda.

Icyapa kiriho ibyatsi bigiye bitandukanye by'ibimera, hariho iby'indabyo zisa umuhondo, ibi byose bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bavura indwara zigiye zitandukanye ziba zarananiranye cyane cyane nk'amarozi.

Amacupa agiye atandukanye arimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho ugenda bakaguha iyi miti ukayinywa wazakira ukabona kubishyura.

Umwana wo mu mujyi, aramutse abonye zino ndabyo, yagira ngo ni za zindi bakoresha mu bukwe ziba zisa neza, ariko ntabwo abizi neza ko izi ngizi atari indabyo, ahubwo ari imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye dusa umweru dufite imipfundikizo isa icyatsi n'utundi dusa umukara, dufite imipfundikizo isa umweru, inyuma yayo hakaba hari abantu benshi bagiye batandukanye bigaragara ko bari kwamamaza iyi miti irimo iya gakondo.

Agacupa k'ubururu karimo umuti uvura uruhu, uyu muti ukaba ucuruzwa n'abacuruzi ba gakondo bavura indwara za gakondo bamenyerewe nka magendu.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, gashushanyijeho igikakarubamba kanditseho n'amagambo mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko aka gacupa karimo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo kavura indwara zigiye zitandukanye harimo n'umunaniro.

Kapusini zarayanze, ushobora kuzireba ukabona ari indabyo nziza wakwifashisha mu bukwe, ariko siko biri kuko izi ndabyo ntabwo bazikoresha mu bukwe ahubwo ni imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Etageri iteretsemo uducupa twinshi, twifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, utwo ducupa turimo amabara agiye atandukanye, ku buryo tuba turimo imiti myinshi cyane ivura indwara nyinshi.

Ubu ni bumwe mu bwoko bw'imiti ya magendu ikunze gukoreshwa hano Rwanda, ivura indwara zigiye zitandukanye ariko, cyane cyane amarozi niyo bivura cyane kurushaho.

Icyatsi gifite amababi atoshye, umwana akibonye yagira ngo ni icyo mwishyamba, ariko uyu ni umwe mu miti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amavaze arambitsemo uturabyo tugiye dutandukanye, hari n'uducupa dupfunduye n'akandi kantu k'umweru karimo umusekuzo, iyi ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umugabo w'umuganga wambaye agapfukamunwa n'akagofero k'ubururu n'itaburiya y'umweru afite igikarito ari kureba imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa k'icyatsi karimo imiti na yo isa icyatsi, ku ruhande hari ikibabi gisa icyatsi k'igikakarubamba, iyi ni imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bavura indwara zitandukanye z'amayobera.

Uducupa tubiri tw'umuhondo, kamwe gafite umupfundikizo w'umukara, akandi uw'umuhondo, imbere yatwo harambitse utuntu wagira ngo ni imineke, utwo ducupa turimo imiti bifashisha bavura indwara za gakondo.

Agacupa karimo umuti kari mu mabara asa icyatsi n'amagambo yanditseho asa umweru gafite umupfundikizo w'icyatsi bigaragara ko gakoreshwa mu kuvura indwara za gakondo zigiye zitandukanye.

Utuvaze duteyemo indabyo zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'icyatsi. Ariko si indabyo ahubwo n'imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo aho harimo nk'igikakarubamba n'ibindi bitandukanye.

Agacupa gasa umuhondo gapfundikije umupfundikizo w'umutuku handitseho amagambo mu ibara ry'umutuku avuga ngo: forever aloe vera gel. Kakaba karimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo izikomoka ku burozi ndetse n'uburozi bw'ubutegano n'ubutamikano.

Agacupa k'umweru kanditseho forever bee pollen hashushanyijeho uruyuki ruri ku rurabyo mw’imbere mu gacupa harimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibyatsi bifite amababi atagaranye byifashishwa mu buvuzi bwa magendu cyangwa se ubuvuzi bwa gihanga, aho bavura indwara nyinshi, cyane cyane izananiranye nk'amarozi.

Ibyatsi by'amoko menshi harimo ibijya gusa umuhondo bifite amababi meza cyane. Ibi byatsi byifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye ziba zananiranye kwa muganga cyane cyane indwara gakondo.

Udusahani cyangwa utugemeri tugiye dutandukanye turimo ibintu wagirango ngo ni ibyabapfumu hari nk'ikiganza gifashe utuntu wagirango ni inkeri mu ntoki izi ni ingemeri zirimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo

Agacupa kanditseho ngo ibisubizo kuri amibe, Reishi niyo yonyine ishobora guhangana n'amibe ku kigero cyo hejuru, murakoze.

Ibi ni ibimera byinshi bigiye bitandukanye, aho byifashishwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane indwara ziterwa n'amarozi ziba zananiranye kwa muganga.

Uruzitiro iruhande rwarwo hashyitsemo igiti gifite amababi meza y'icyatsi, aya mababi akaba yifashishwa n'abavuzi bo mu bwoko bwa gakondo, bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agacupa k'umweru, gafite ibyapa biri gusa ubururu, karapfundikiye bigaragara ko gatangirwamo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, nawe rero nakugira inama yo kujya gufatira imiti mu buvuzi bwa gakondo igihe urwaye.

Agacupa karimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, aho bavura cyane cyane indwara z'amarozi.

Amababi y'ibyatsi by'ibimera bitandukanye. Ni amababi matoya, inyuma yayo hari kugaragara ikirere gisa ubururu n'umweru. Aya mababi bigaragara ko akoreshwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara nyinshi zigiye gutandukanye.

Ubwoko bw'ibimera bufite amababi agiye asa icyatsi, ushobora kubibona ukagira ngo ni voka, nyamara ibi n'imiti bifashisha mu buvuzi bwa gakondo.

Umugabo waje gushaka serivise, akaba yambaye ishati, yatebeje n'umukandara, akaba ari gucisha uducupa turimo amavuta cyangwa imiti. Iyi akaba ari imiti yo mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa kariho icyapa gishushanyijeho uruyuki, kigaragaza ko ari umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye hano mu Rwanda.

Ibyatsi byinshi cyane bigiye bitandukanye, bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo bagira ngo bavure indwara nyinshi zigiye zitandukanya, aho bavura indwara zikomoka ku burozi ahanini.

Agacupa karimo imiti igiye itandukanye iri mu ibara ry'umweru ndetse n'akandi karekare karimo imiti y'umukara, iyi yose yifashishwa havurwa abantu bafite indwara gakondo nko kubyimba ibirenge, kuribwa mu nda ndetse n'umutwe.

Abantu batandukanye ntibazi ko utu dukangara tugiye turimo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo. Hari turimo indabyo, uturimo ibintu bijya gusa umutuku, uturimo ibimeze nka bombo zo mu miheha ndetse n'agasekuro bari gusekuriramo ibyatsi.

Ibyatsi bimeze nk'indabyo, harimo kapisini ndetse n'izindi zayanze, hakaba harimo n'ubusitani bwiza cyane, ibi byatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bivura indwara zirimo n'inzoka.

Agakombe karimo umuti uri mu ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari ibibabi nabyo birakorwamo umuti ndetse na tangawizi, iyi miti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Uducupa twinshi tugiye dutandukanye dutambitse ahantu tukaba turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gihanga aho bavura indwara zitandukanye zananiranye by'umwihariko harimo amarozi.

Icyatsi kiri mu bwoko bw'igicuncu, aho kivura indwara zigiye zitandukanye, aho waba urwaye ibicurane, cyangwa se urwaye inkorora, cyangwa n'izindi ndwara zirimo umunaniro, iyo unyweye igicuncu uhita ukira.

Urumogi ni bumwe mu bwoko bw'itabi buzwi mu Rwanda, ariko rukaba rutemewe n'amategeko. Kirazira rero kunywa urumogi kuko rwangiza ibihaha ndetse na leta ikaba irubuza.

Ibiganza by'umuntu biri gufata mu gakangara aho harimo imiti igiye itandukanye, biri kugenda bireba uko bimeze kugira ngo birushaho kugenda neza, ni byiza cyane gukoresha imiti gakondo kuko bivura indwara zitandukanye.

Igikarito kiri mu mabara y'igitaka, kiriho icyapa gisa icyatsi, umuhondo, handitseho utugambo tudasomeka neza, bigaragara ko kirimo imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agakarito kari mu mabara y'ubururu, umweru wijimye n'umuhondo kanditseho amagambo y'ubururu n'umutuku, kakaba karimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bavura indwara za kinyarwanda ziba zarananiranye m'ubuvuzi bwa kizungu.